Aha ni ahari gutangirwa serivise y'ubuvuzi, hari umuganga ndetse hari n'abagore bagiye bafite abana bazanye kuvuzwa, iruhande rw'umuganga hari ibikoresho bitwazamo imiti ndetse hari n'impapuro zanditseho, kwa muganga ni heza barafasha.

Iki ni ikirango. Hari amabara abiri, ibara ry'ubururu ndetse n'ibara ry'umweru. Ibara ry'umweru ryanditswe mu magambo y'Icyongereza Unicef for every child. Ibara ry'ubururu ni ryo ryanditswemo ayo magambo.

Aba ni abantu batanu, ubona umwe ari guhabwa serivisi y'ubuvuzi uteruye umwana. Yambaye agatambaro k'umweru mu mutwe, yambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umweru. Iruhande rwe hari undi mwana wicaye witegereza ibyo bari gukora. Hari undi imbere ye wicaye ufite igitabo arimo arasoma. Inyuma ye, hari idirishya rifunze.

Iki ni icyumba kiri gutangirwamo serivisi yo gukingira abana no kubapima, hari umugabo urimo uravuga ubona ko abari imbere ye bamuteze amatwi, harimo umugore witeze igitambaro cy'umweru ndetse n'uwambaye imyenda irimo umweru n'umukara uteruye mwana, iki cyumba harimo umunzani ndetse hari n'abandi bagabo bari inyuma ubona basa naho bakurikiye iby'uyu mugabo arimo arababwira uri imbere

Aha ni kwa muganga. Kwa muganga hagiye hatandukanye, batanga serivisi zitandukanye ariko zose zihuriye ku buvuzi. Hari ama clinique, hari ama hôpital ndetse hari n'ibitaro bisanzwe twivurizaho. Harimo abaganga babiri bambaye imyenda y'akazi, iruhande rwabo hariho n'abandi bambaye imyenda iri mu ibara ry'umweru. Inyuma yaho hari inyubako ndetse n'igiti kigaragara nk'aho ari igiti cy'umukindo, kwa muganga ni heza.

Iyi ni inzu mberabyombi yakiriye inama, harimo abagabo n'abagore bamwe barica ndetse abandi barahagaze, hari intebe zimwe zicaweho izindi ni izo bamwe bahagurutseho ukabona bagiye bagahagarara hagati bafite ibyo barimo baganiraho, iruhande rw'izi ntebe hari igikapu, hari amakaye ndetse hari n'uducupa turimo amazi, iyi nzu ifite umwanya uhagije kandi ni nziza.

Iki ni icyumba cy'ishuri, harimo intebe ndetse n'ameza, harimo umwana uri guseka wishimye, yambaye umweru n'umukara ndetse aricaye, afite biswi ari kurya, afite umusatsi usutse, inyuma yiwe hari umuntu wambaye imyenda iri mu ibara ntazi.

Aba ni abantu bagaragara nk'aho hari igikorwa basoje, bakaba bashobora kuba bari kwifotoza. Ni benshi kandi barasa neza. Ni igitsina gabo ndetse n'igitsina gore. Imbere yabo hari intebe ebyiri z'umweru n'indi imwe y'umuntu usa naho afashe akagare. Ku ruhande hari umuntu ufite imbago, ubona yitegereza. Bari munsi y'igiti, inyuma yaho hari ibirangantego bitandukanye. Barasa neza, hari n'ibitambaro biri mu idarapo ry'u Rwanda.

Aha ni kwa muganga. Iyi ni inyubako yifashishwa mu buryo bwo gusuzuma mu ndimi z'amahanga yitwa laboratoire. Hari ibikoresho bitandukanye, hari amabara atandukanye ari muri ibi bikoresho. Hari ibara ry'ubururu, hari ibara ry'umweru, hari n'impapuro zimanitse ziriho amagambo atari kugaragara neza. Iyi nyubako ni nziza kandi iteye imbere.

Iyi ni inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'imiti. Hari imiti iba ari iy'amatungo, cyangwa se imiti ikoreshwa havurwa abantu. Iyi nzu ifite umwanya uhagije, ifite ahabikwa imiti habugenewe, ifite imashini ikoreshwa batanga serivisi, hari intebe yicarwaho n'uhabwa serivise. Irimo amatara azimije, iyi nzu ifite umwanya uhagije kandi ifite isuku, ni nziza.

Aha ni kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi. Hari abantu bahagaze ndetse hari n'abicaye ubona ko bategereje kwakirwa. Mu Rwanda tugira ahantu hatandukanye hatangirwa serivisi z'ubuvuzi. Hari nk'ibitaro bikuru bya CHUK, hakaba ibitaro bikuru bya gisirikare by'i Kanombe, ndetse no mu midugudu itandukanye hagiye harimo ahatangirwa izi serivisi z'ubuvuzi. Kwa muganga ni heza.

Iyi ni inzu nshya y'ubuvuzi, harimo intebe, harimo imashini, harimo ndetse n'aho babika ibyangombwa bitandukanye nk'ububiko bw'impapuro n'ibindi, iyi nzu ni nziza kandi ifite umwanya uhagije, harimo amatara ari kwaka ndetse harimo n'imashini, hari ahantu ndi kubona handitse ijambo ngo "Nurse Station", ku ruhande hariho umuryango ufunguye, iyi nzu ifite umwanya uhagije kandi ni nziza.

Iki ni icyumba cy'ubuvuzi hari umuryango ufunguye hakaba n'undi ufunze wanditseho ngo operesheni rumu. Icyumba giteye amarangi meza harimo irangi ry'umweru ndetse n'irindi rijya gusa na shokora ryijimye. Kwa muganga ni heza aho ibi byumba bidufasha kugira ngo duhabwe serivisi dukeneye tuvurwe neza, kwa muganga ni heza.

Aha ni kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi. Mu Rwanda tugira ahantu hatandukanye hari ahitwa nk'ibigo nderabuzima, imbere yaho hari umubyeyi uhetse umwana, ubona asa naho ari ho ari kugana, amarembo y'ibi bitaro arafunguye harimo inyubako isakajwe amabati y'icyatsi, imbere kuri aya marembo y'ibi bitaro handitseho izina ry'Ikinyarwanda Kigina Health Center.

Iri ni icupa ry'amazi. Amazi ni ubuzima, rirapfundikiye. Adufasha mu buzima butandukanye nk'iyo dukora siporo cyangwa se kuyanywa ndetse yifashishwa tunakora amasuku. Hari amazi aba ari pure, hari n'andi aba atari pure. Amazi ari pure ni amazi yifashishwa mu buvuzi, atari pure ni amazi dukoresha mu buzima busanzwe, uba usanga arimo nk'imyunyu ndetse n'ibindi.

Ibi ni ibintu bitandukanye ubona ko biri ahantu hamwe. Harimo imbuto, harimo imidari, harimo ibinini, hariho icupa, hariho metero ndetse n'ibindi. Metero yifashishwa abantu bapima uburebure bwabo nk'iyo bagiye kubadodara imyenda n'ibindi. Imbuto ni nziza by'umwihariko nk'inanasi ndetse n'umuneke, bigira umumaro mu buzima bwacu, bituma tugira ubuzima bwiza, umudari ni mwiza nk'iyo bawuhembye umuntu yakoze ikintu yabaye indashyikirwa.

Aba ni abantu babiri bari muri siporo umwe arapfukamye undi arahagaze upfukamye ameze nk'aho ateruye, siporo ni nziza ituma tugira ubuzima bwiza, hari ahantu hatandukanye hakorerwa siporo nko ku bibuga by'umupira ndetse n'amazu yabugenewe akorerwamo siporo, bimwe bakunda kwita jimu, hari n'abakora siporo birukanka bazenguruka nk'imihanda, siporo ni nziza ituma tugira ubuzima bwiza.

Aya ni amacupa ateretse ku meza. Ni amacupa atandatu. Mu ruhande hari igitabo. Ndetse aya mezi ndabona ateretse mu cyumba. Iruhande rw'aya macupa, hari akantu gahari kameze na ko nk'akameza, gateretse iruhande rwayo. Amacupa yifashishwa mu bikorwa bitandukanye, nko kuba bayashyiramo amazi, imiti, ifu ndetse n'ibindi. Amacupa ni meza.

Iki ni ikibaya harimo abantu barimo barakata ibyatsi nk'ibyifashishwa nk'imiti gakondo. Bamwe barunamye undi arahagaze, ntagaragara mu maso. Mu Rwanda hari ahantu hatandukanye hari ibibaya bimwe byifashishwa bahinga nk'umuceri ndetse n'ibindi bihingwa.

Iki ni igiti kifashishwa mu buvuzi gakondo, kiri mu ibara ry'icyatsi urabona ko gishishe gitoshye, ibiti bigira umumaro utandukanye nko kudufasha mu gutanga umwuka duhumeka wa oxygene ndetse bikanadufasha gufata carbon dioxide tuba twasohoye mu minsi itandukanye iyo turimo turahumeka, ibiti ni byiza bigira imimaro myinshi.

Iyi ni imiti itandukanye yifashishwa mu buvuzi gakondo, harimo igikakarubamba. Igikakarubamba ni umuti mwiza wifashishwa bavura ndetse bakanawukoresha nk'iyo barimo barakora amavuta ndetse n'ibindi. Hari amagambo yanditswe mu nyuguti z'umukara yanditseho ngo Medicinal plants, ibi biti ni byiza.

Ibi ni ibintu bitandukanye bidufasha mu buzima bwa buri munsi. Hariho imineke, hariho inanasi, hariho giriniti, hariho buriti riyiti, hariho keto sikapu, hariho nibu soti, hariho dewovure ndetse n'ibindi. hari ururabo inyuma yaho, urabona ko ari ibintu bishimishije biba bikenewe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Inanasi ni nziza ndayikunda.

Ibi ni ibivomesho bibiri. Ikivomesho kimwe gisa umweru, ikindi gisa umuhondo. Byifashishwa bakura amazi ku masoko. Amazi ni meza kandi turayakenera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Imbere yaho hari igiti kiri mu ibara ry'icyatsi ndabona ari igikakarubamba. Igikakarubamba kifashishwa mu buvuzi gakondo bwa Kinyarwanda kandi igikakarubamba ni kiza.